Umugabo wambaye imyenda imurinda umubiri wose akaba afite umupira aho ari kugenda atera umuti ibihingwa bimuri imbere, uyu mugabo ari gutera umuti kino gihingwa kugira ngo kibashe gutanga umusaruro aho ari kurwanya udukoko dushobora gutuma kino gihingwa kidatanga umusaruro.

Abantu batatu bahetse amapompo bakaba bari mu murima. Aho barimo barayatera umuti wica udukoko. Aba ngaba barimo baratera umuti kugira ngo imyaka yabo ibashe kuba yakura nta dukoko tubashije kuyangiza.

Ni umugabo w'umuhinzi akaba ahetse ipompo mu mugongo, uyu mugabo akaba arimo aragerageza gutera imiti aho ari kugenda atera imiti mu bihingwa bye kugira ngo yice udukoko dushobora kumubuza kubona umusaruro ufatika.

Ni ikiganza cy'umuntu ariko utagaragara isura, muri icyo kiganza hakaba harimo ifumbire y'imborera, iki kiganza kikaba kirimo kirafumbira agahingwa kakiri gatoya gahinze hano mu butaka, urabona ko ari agahingwa kameze neza, ku buryo kitaweho neza gashobora kuzatanga umusaruro.

Ni abagabo bafite inshundura bakaba bari ahantu mu cyuzi, bisa nk'aho abangaba ari abarozi b'amafi, aho bazanye izi nshundura muri iki cyuzi kugira ngo baze kuroba amafi menshi barangize bayajyane ku isoko.

Ni ahantu bigaragara ko ari icyuzi cyororerwamo amafi, iruhande rwacyo hakaba hahagaze umuntu aho arimo aragerageza gushyira ibiribwa muri ayo mazi kugira ngo ayo mafi abashe kubirya akure.

Ni ahantutu hari icyuzi hakaba hari n'abantu baje kuri icyo cyuzi. Biragaragara ko abo bantu baje kuroba amafi aho bafite utuntu tw'imyeru bayashyiramo. Iruhande rw'icyo cyuzi hakaba hari inzu ndetse n'ibiti bihateye.

Uburobyi bw'amafi ni kamwe mu kazi gaha abantu bagakora amafaranga menshi agiye atandukanye kuko abantu bagerageza kugura amafi kugira ngo babashe kwirira babone intungamubiri kugira ngo umubiri wabo ubashe kwirinda indwara.

Uburobyi ni kamwe mu kazi gatanga amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda. Aha ngaha hakaba hari umuntu uhagaze mu bwato bwe, aho yaroge amafi menshi agiye atandukanye. Akaba agiye kuyacuruza kugira ngo abantu babashe kuba babona intungamubiri.

Ni umukobwa uri ahantu ku cyuzi, aho afite agakoresho kabugenewe. Uyu mukobwa ashobora kuba yaje kuroba amafi muri iki cyuzi, kugira ngo ayajyane iwe mu rugo, ajye kuyarya amwongerere intungamubiri.

Ni ahantu bigaragara ko hari icyuzi, iki cyuzi kikaba cyaragenewe kuroberwamo amafi. Harimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, aho bose bafite inshundura bakaba barimo bashyira muri iki cyuzi kugira ngo babashe kuba bakwirobera amafi.

Ni ahantu hagenewe kororerwamo amafi, aho hari ibyuzi byinshi bigiye bitandukanye byororerwamo amafi, hari abantu baje gusura ibyo byuzi byabo ,aho baba baje bazaniye ayo mafi ibyo kurya ,kugira ngo abashe kuba yakura na bo bayarobe bajye kuyacuruza mu baturage.

Abantu bafashe indobani aho barimo barayishyira mu cyuzi kugira ngo barobe amafi yabo, ni icyuzi bororeyemo amafi bakaba bari baje kugira ngo bayarobe, bayajyane ku isoko babashe kuba babona amafaranga.

Ni umugabo ugaragara nk'aho ari umworozi w'amafi aho ari ku cyuzi arimo aranaga ibyo kurya muri ayo mazi kugira ngo amafi abashe kuba yakura, iruhande rw'icyo cyuzi hakaba hari ibiti byiza cyane ubona ko bitoshye.

Abagabo bari ahantu ku cyuzi hakaba hari imiti runaka barimo baravangira mu ndobo kugira ngo babashe kuba bayishyira muri icyo cyuzi, bisa nkaho muri icyo cyuzi bororeramo amafi ndetse aho hantu hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ni abahinzi aho aba bahinzi bari mu murima w'icyayi. Buri muhinzi agiye ahetse igitete, aho ari kugenda asoroma icyayi ashyira mu gitete. Urabona ko bashishikaye cyane, bisa nkaho iki cyayi cyatanze umusaruro ufatika.

Ni umugore w'umuhinzi, akaba arimo arahinga mu gishanga, aho ari kugenda atera umuceri, afite isuka ari kugenda awubagarira, biragaragara ko uyu mugore afite ibikuka byinshi yahinze muri iki gishanga.

Ni umugore w'umuhinzi akaba arimo arasoroma ikawa ye akuraho imbuto zitukuye iz'ibitumbwe azirekeraho, yikoreye ikintu kimeze nk'indobo ku mutwe we arimo aragenda ashyiramo izi mbuto, birasa nk'aho uyu mugore yishimye cyane kuko ari guseka, ubanza ari kubona umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Ni umugore w'umuhinzi, aho uyu mugore yaje mu murima we gusarura ikawa, arimo arakuraho intete zeze cyane zatukurije, agasigaho izikiri ibitumbwe, bigaragara ko uyu mugore yishimiye umusaruro ari kubona.

Ni umugore akaba arimo arifotoreza ku giti cy'ikawa ubona itarera, uyu mugore yambaye amarinete ndetse n'ingofero aho yambaye agakote k'umutuku, afashe ku mashami y'ikawa ubona ko iyi kawa itari yera neza ikiri ibitumbwe.

Abagore babiri bari mu murima w'icyayi bakaba bafite igitete barimo barasoronemo icyayi, urabona ko bishimye cyane barimo baraseka bisa nk'aho bishimiye umusaruro bari kubona.

Ahororerwa inkoko hakaba hasasiye neza cyane ndetse biragaragara ko hari udukoresho uyu mworozi ashyiramo ibiryo ndetse n'imiti byizi nkoko kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza ndetse zitangawe n'umusaruro uhagije.

Ni muri etageri irimo uducupa twinshi tugiye turimo imiti myinshi ivura amatungo agiye atandukanye, aha ngaha hakaba harimo utuntu tumeze nk'aho ari utubido turimo imiti, hakaba hariho udushushanyijeho amatungo y'inka ndetse n'andi matungo atandukanye.

Ni uducupa tugera kuri tune utu ducupa tukaba turimo imiti igiye itandukanye, abavuzi b'amatungo bifashisha bavura inka, ndetse n'andi matungo agiye atandukanye. Bukaba buteretse ahantu bisa nk'aho ari mu ka etajeri.

Uducupa twinshi turi mu ibara ry'umutuku tukaba dupfundikije imifuniko y'umweru, turi ahantu muri etageri, utu ducupa tukaba turimo imiti myinshi igiye itandukanye ivura amatungo, hariho kandi kuri utwo ducupa icyapa cyanditseho inka ndetse n'andi matungo iyi miti ivura.

Umugore n'umugabo bari ahantu bisa nk'aho harimo ibihoho barimo barashyiramo imbuto, biragaragara ko bari kwinaza uduti two gutera, aho ubona ko bishimye cyane bisa nkaho bizeye ko izi mbuto bari kwinaza muri ibi bihoho zishobora kuzatanga umusaruro.

Umukuru w'Igihugu cyacu cy'u Rwanda adushishikariza gutera ibiti kugira ngo tubashe kwirinda ibiza biterwa n'ikirere, aha ngaha hakaba hari umugore wambaye neza akaba arimo aratera igiti, ku ntoki ze yambayeho impeta ndetse yambaye n'isaha ku kuboko, hari abandi bisa nk'aho bamuri inyuma ariko batagaragara neza.

Umugore w'umuhinzi ufite isuka mu ntoki ndetse n'umuhoro, akaba ari gutambuka ahantu hari umukenke. Ni umugore witeze igitambaro mu mutwe urabona ko ashishikaye cyane, aho agiye mu murima we gutema ibihuru kugira ngo bitazamwangiriza imyaka.

Abagabo b'abahinzi aho bari mu murima barimo barasoroma bashyira mu gafuka bisa nkaho ari abahinzi barimo barasoroma umusaruro wabo biragaragara ko bishimye cyane, ni abagabo bigaragara ko bakuze benda kuba abasaza.

Abahinzi bari mu murima aho barimo baragenda bafata ibintu bimwe babikura hamwe babijyana ahandi biragaragara ko bisa nkaho ari ibigorigori barimo baragenda babirundanya kugira ngo babashe kubikoramo ifumbire.

Ni ikiraro cyororerwamo inka hakaba harimo inka enye, izi nka z ose zikaba zirimo zirarya ubwatsi buri muri monjwari, iruhande y'iki kiraro hakaba hari umusore uhahagaze bisa nk'aho ari we wita kuri izi nka.

Ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hakaba harimo umwe wambaye imyenda y'abadaso, hari umugore wambaye akajiri kabugenewe, akaba afashe igiti ari kugihereza umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo kugira ngo na we ajye gutera igiti, muri abo bantu hakaba harimo umusaza bigaragara nk'aho akuze.

Ni umugabo uri mu murima akaba afite igihoho kirimo urubuto agiye gutera, birasa nkaho ahantu ari hatewe n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, uyu mugabo nawe akaba ari gukuraho agashashi kugirango abashe kuba yatera kino gihingwa.

Umugore w'umuhinzi akaba ari ahantu yahinze imboga ze, akaba arimo aragerageza kuzufirira kugira ngo zibashe gukura neza, arimo aragenda ashyiraho udufumbire kugira ngo abone umusaruro, bigaragara ko uyu mugore yishimiye izi mbuto ze.

Umugabo ndetse n'umugore bakaba barimo baranyura mu murima wabo bagenda, aba ngaba bigaragara ko bose ari abahinzi umugabo afite umuhoro mu ntoki ze ndetse n'agacupa, birasa nk'aho barimo baratembera mu murima wabo kugira ngo barebe ibyo bahinze aho bigeze.

Mu Rwanda abahinzi bagiye batandukanye bamenye agaciro ko guhinga ibirayi, aho usanga abahinzi benshi bahinga ibirayi ibi ngibi bikaba ari ibirayi biri ku giti cyabyo, aho abantu bari bacukuye bagakuraho itaka kugira ngo babyerekane uburyo biba bifashe ku giti cyabyo.

Ni imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, aho harimo ibigori, hakabamo ibishyimbo, hakabamo intoryi, hakabamo inyanya ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, tutibagiwe n'urusenda.

Ahantu mu murima ubona ko hahinzemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, biragaragara ko iki gihingwa kiri mu gihe cy'imvura kuko kiratoshye cyane, ibi bihingwa kandi ababihinze babyifashisha bakuramo amafaranga menshi agiye atandukanye.

Ni igiti k'indimu ariko iki giti bikaba bigaragara ko ari mu gihe k'izuba, amababi amwe n'amwe yarahungutse hanyuma amashami amwe n'amwe aruma, haragaragara kandi n'ibindi biti bihinze aho bino biti byifashishwa n'abantu mu gihe bagurisha imbuto zabo bakabona amafaranga.

Ibirayi ni bimwe mu bihingwa bitanga amafaranga menshi cyane ku bahinzi, ndetse kandi ibirayi bikaba bigira vitamine nyinshi, ndetse n'intungamubiri ku buryo ubashije kubirya abasha kuba yagira ubuzima bwiza.

Ni bicuruzwa bigiye bitandukanye bikaba byahurijwe ahantu hamwe, aho umuntu ushaka ibyo kurya nk'imbuto aza hano akishyura amafaranga barangiza bakamurebera icyo agura.

Abahinzi bagiye batandukanye hirya no hino, bishimira kuba basarura umusaruro ufatika, aha ngaha hakaba hari buri ubwoko bw'imbuto zabashije kwera, aho twavuga nk'urusenda, tukavuga ibibiriganya ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ikiganza cy'umuntu ariko utagaragara neza, akaba afite ikirayi mu ntoki ze, bisa nk'aho uyu muntu yaje gutera ibirayi hano muri uno murima, iki kirayi kikaba cyaratoze, aho uyu muhinzi yaba yarakibikiye kuzakigira imbuto.

Ni mu murima uhinzemo ibigori aho hagaragara ikigori cyumye iki kigori kikaba cyegereje gusarurwa, ibigori ni ingirakamaro cyane kuko abantu iyo babisaruye baragenda bakabishesha bagakuramo ifu y'igikoma baha abana babo kugira ngo bakure neza.

Ni ahantu bigaragara ko hahinze igiti cy'umwumbati. Biragaragara ko iki giti gishishe neza urabona ko ari mu gihe k'imvura, kuko kino giti gifite amababi meza y'icyatsi inyuma yacyo kandi hakaba hagaragara insina zihahinze.

Ni byiza ko abantu twese tumenya akamaro k'isombe, ubundi tukihatira kujya tuyifata mu mafunguro yacu ya buri munsi. Iyi ngiyi akaba ari isombe ihinze ahantu mu murima, bisa nkaho iyisumbe yitaweho ndetse biragaragara ko yeze kandi isa neza.

Ni ahantu ubona ko ari ahantu heza cyane hakaba hari umuhanda wa kaburimbo unyura hagati mu ishyamba, hakurya no hakuno hose hakaba hari ishyamba urabona ko uyu muhanda ari umuhanda mwiza cyane, iki ngiki ni igikorwa remezo kiza Leta iba yarubakiye abaturage.

Ni ahantu bigaragara ko hahinze urutoki hakaba hari n'indi myaka ihinzemo, hari igiti ubona gihari ndetse hakaba hari n'igiti k'isombe n'umusave, aha ngaha bigaragara ko iyo umuhinzi ashatse kurya igitoki araza akagitema nta kibazo.

Ni ahantu bisa nk'aho ari mu ishyamba hakaba hubatsemo inzu nziza cyane ndetse iruhande rw'iyo nzu hakaba hagaragara ibiti byinshi bigiye bitandukanye ndetse kandi hari n'akayira gaca kuri iyo nzu, haragaragara bimwe mu biti by'inganzamarumbo ndetse n'ibindi biti bikiri bitoya.

Ni mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo imodoka irimo iragenda, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye ndetse n'amapoto ariho amatara amurikira uwo muhanda iyo bwije.

Abagabo bari ahantu mu ishyamba bakaba bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, aba harimo abasirikare ndetse n'abadaso aho bafite amakupakupa barimo barakupakupa ibyatsi bisa nkaho bari mu muganda, aho hantu bari kandi hari ibiti binini by'inganzamarumbo.

Mu gihugu cy'u Rwanda dufite imisozi miremire ndetse n'amashyamba meza cyane n'inyamaswa z'agahebuzo, aho bikurura ba mukerarugendo bakaza gusura igihugu cy'u Rwanda, ubundi bakagiha amafaranga bakiteza imbere.

Mu Rwanda hari amashyamba menshi agiye atandukanye, aho aya mashyamba akurura ba mukerarugendo bakaza gusura u rwanda ndetse bakarusigira amafaranga agiye atandukanye, bifashisha bubaka ibikorwaremezo bigiye bitandukanye ku baturage.

Abantu biganjemo ab'inzego z'imitekano bakaba bari ahantu aho bafite gupapupa barimo barakupakupa ibyatsi bisa nk'aho barimo barakora umuganda, bari ahantu hari ibiti byinshi ubona ko ari ishyamba.

Mu Rwanda hari imisozi myiza cyane kandi miremire, iyi misozi ikaba isa neza aho igiye iriho ibiti biteye amabengeza, iyi misozi ikaba ikurura ba mukerarugendo kugira ngo baze kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda.

Amashyamba ndetse n'imisozi miremire by'Igihugu cy'u Rwanda bikurura ba mukerarugendo aho baza baje kubisura bagatanga amafaranga menshi, ayo mafaranga bakayifashisha bubaka ibikorwa remezo ku baturage.

Ahantu bigaragara ko ari muri rusisiro hakaba hari abantu batuyemo, biragaragara kandi ko batuye ahantu munsi y'umusozi ariko kuri buri musozi hakaba hateyeho ibiti, bifasha mu kuzana umwuka mwiza wo guhumeka kuri abo bantu batuye aho ngaho.

Igihugu cy'u Rwanda gifite amashyamba menshi agiye atandukanye, aho ayo mashyamba n'imisozi bikurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga y'amadovize, ubundi igihugu cy'u Rwanda kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo.

Ni umugore wahinze indabyo nyinshi zigiye zitandukanye, aho afata izi ndabo akazisarura hanyuma akazijyana ku masoko, abantu bakagura uturabyo two gutaka cyangwa se indabyo zo kuba baha abakunzi babo.

Ni umuhinzi uhinga mu buryo bwa kijyambere, aho ari mu murima we arimo aragenda asoroma imbuto zeze, afite akantu kameze nk'agatete, ari kugenda ashyiramo inyanya zahishije, izindi zitarahisha akazihorera.

Ni ahantu bisa nk'aho bakoze akarima k'igikoni, ubona ko bagatunganyije neza, aha ngaha hakaba hateyemo imboga zigiye zitandukanye, haragaragara kandi umupira w'amazi, uca iruhande rw'aka karima k'igikoni, bigaragara ko iyo ari igihe cy'izuba buhira kugira ngo imboga zabo zimere vuba.

Umugore w'umuhinzi akaba ari mu murima yahinzemo imboga z'ubwoko bugiye butandukanye, akaba afite isuka aho arimo aragenda azibagarira, urabona ko uyu mukecuru yishimye cyane, aho ategereje ndetse yizeye ko izi mboga ze zizamuha umusaruro.

Ni umukobwa usa nkaho akuze, akaba yari ari kwifotoreza mu busitani. Asutamye muri ubwo busitani, aho iruhande rwe hari agati kariho uturabyo, uyu mukobwa akaba ari ko yafashe hari kwifotoza. Urabona ko yishimye afite ibinezaneza ku maso.

Mu gihe umuntu yasoromye inyanya, abantu bamugira inama y'uko agomba kuzishyira ahantu ku buryo nta kintu gishobora kuzangiza, aha ngaha hakaba hari inyanya zangiritse cyane, bisa nk'aho izi nyanya zimaze igihe.

Ni umugore w'umuhinzi, akaba ari mu murima we aho yahinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, afite umugozi w'amazi, arimo aragenda yuhirira ibihingwa bye kugira ngo bibashe gutoha mu gihe cy'izuba.

Abahinzi bakangurirwa kujya buhira aho bakoresha imashini zabugenewe zo kuhira imyaka mu gihe cy'izuba, aha ngaha hakaba harimo akamashini karimo karuhira biragaragara ko izi mboga zitoshye cyane.

Ni umuntu ariko akaba atagaragara neza mu maso ye aho afite rozwari akaba arimo aruhirira imboga ze, arimo aruhira kugira ngo izi mboga zibashe kumera neza ndetse zere neza n'ubwo bari mu gihe k'izuba ariko iyo wuhiriye imyaka yawe ibasha kwera.

Ni ahantu hateye ibigori kandi ku murongo hakaba harimo haranyuramo umupira bifashisha buhira, ibi bigori birakeye cyane ndetse urabona ko bishishe, bisa nk'aho rwose uyu muntu agerageza kubyuhira.

Kuhira imyaka ni byiza kuko bituma imyaka yacu itangirika mu gihe k'izuba, uyu nguyu ni umumama akaba afashe umupira uvamo amazi aho arimo aruhira imyaka ye kugira ngo ibashe kurwanya izuba ituma.

Ahantu heza cyane hari icyuyuzi iruhande rwacyo hakaba hari ibihingwa bihahinze, iki cyuzi kikaba cyifashishwa n'abantu bashaka kuhira imyaka yabo, aho bafata akamashini bakagashyira muri aya mazi bakabasha kuyuhiza imyaka yegereyeru runo ruzi.

Umusore w'umuhinzi aho ari mu murima we afite ruswari arimo aragenda yuhirira ibihingwa yahinze kugira ngo bibashe kumera neza, iyo umuhinzi yuhiriye ibihingwa bye bibasha kurwanya izuba bigakura neza bigatanga umusaruro.

Ni umugabo w'umuhinzi akaba ahagaze mu murima we arimo aragenda yuhirira ibihingwa bye, afite rozwari mu ntoki arimo aragerageza kuhirira ibihingwa bye kugira ngo bibashe kurwanya izuba bituma.

Mu buhinzi bugezweho abantu bagiye bavumbura uburyo bwiza bwo kuhira imyaka bakoresheje ikoranabuhanga, aha ngaha hakaba hari uburyo bwiza bwo kuhira imyaka mu gihe cy'izuba kugira ngo itaba yakicwa n'izuba.

Ni umurima w'ibigori, aho harimo uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga bwo kuhira ibi bigori, biragaragara ko ibi bigori bishishe kuko umuhinzi wabyo arabyuhira ndetse yiteze ko azabona umusaruro kandi uhagije.

Mu Gihugu cy'u Rwanda hagaragara imisozi myiza cyane ndetse n'ibibaya biteye amabengeza, ibi ngibi bikaba bikurura imvura ndetse na ba mukerarugendo, aho baza gusura Igihugu cy'u Rwanda bigatuma kibona amafaranga, baje kwirebera ibiyaga ndetse n'imisozi igiye itandukanye.

Abantu benshi higanjemo abambaye impuzankano, bakaba baje ahantu mu misozi ndetse no mu bibaya, aho barimo baragenda batera ibiti kugira ngo babashe kurwanya isuri ndetse bakurure umwuka mwiza wo guhumeka.

Ni ahantu bisa nk'aho ari mu ifamu hakaba haragiwemo ihene nyinshi zigiye zitandukanye, iruhande rwazo hakaba hari abantu bazishungereye ndetse haragaragara n'ibiti biteye impande y'ibyo byatsi aho izo hene ziri.

Ahantu mu ifamu hakaba harimo inka nyinshi zigiye zitandukanye haragaragaramo ibiti by'inganzamarumbo bifasha izi nka kuba zabona umuyaga ndetse n'umwuka mwiza, haragaragara kandi umuntu bisa nk'aho yaje kuragira zino nka.

Ni ahantu ubona ko hororerwa inkoko nyinshi zigiye zitandukanye zikaba zarubakiwe neza cyane ku buryo aha hantu ziri ubona ko hafite isuku, izi nkoko zikaba zitaweho neza aho uyu mworozi abasha kuziha ibizitunga.

Ahantu bigaragara ko hakorerwa ubworozi bw'inkoko, hakaba harimo inkoko nyinshi zigiye zitandukanye. Hari kandi n'utudukoresho twifashishwa n'aborozi b'inkoko, bashyiramo ibiryo ndetse n'imiti y'izi nkoko.

Ni mu kiraro cyororerwamo iyi ngurube, aho ubona nyir'ingurube agerageza gusasira iyi ngurube kugira ngo ibashe kuryama ahantu heza, hari kandi n'ahantu ashyira ibiryo by'iyi ngurube kugira ngo ibashe kurya ubundi itange umusaruro.

Ni ahantu bigaragara ko hororerwa inkoko hakaba harimo inkoko nyinshi zikiri ntoya, hatetsemo kandi ibasi irimo imiti zino nkoko zirimo ziranywa ndetse harimo n'utundi tuntu abantu borora zino nkoko bashyiramo imiti yabo.

Ni ahororerwa ihene aho harimo uduhene tukiri dutoya, urabona ko nyiri izi hene yagerageje kubakira izi hene neza aho yakoresheje utubaho kugira ngo izi hene zibe ziri ahantu heza kandi hafite isuku.

Ahantu hubatse ikiraro kiza bikaba bigaragara ko aha ngaha hororerwa amatungo yo mu rugo agiye atandukanye, ni ahantu ubona ko hubakiye neza cyane hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ingenzi muri ubu bworozi.

Ahororerwa amatungo magufiya y'ingurube, hakaba harimo ingurube ubona ko ziryamyemo kandi zitaweho neza. Harasasiye, urabona ko izi ngurube umworozi wazo abasha kuzitaho ndetse azigaburira indyo nziza.

Inka nziza cyane iri ahantu mu kiraro ubona ko cyubatse neza, iyi nka ikaba ifite ibara ry'umukara. Yambaye iherena ku gutwi, bisa nkaho iyi nka ari imbyeyi. Iri ahantu ubona ko hameze neza ndetse umworozi wayo bisa nkaho ayitayeho.

Inkoko nyinshi cyane zi aho zororerwa, hakaba hasasiye ndetse urabona ko ari inkoko zitaweho neza kuko zifite ubuzima bwiza, harimo utunu bazishyiriramo ibyo kurya ndetse n'imiti yo kuzivura.

Inka nziza yo mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba ikiri inyana, iri ahantu mu kiraro yororerwa, aho iki kiraro cyubakishije ibibaho, urabona ko iyi nyana yitaweho neza cyane kuko irashishe, ifite ubwoya busa neza.

Ni ahantutu bisa nk'aho hororerwa inkoko, hakaba harimo imishwi myinshi igiye itandukanye, hari kandi n'ibiryo byazo birambitse ahantu ku mufuka, hakaba hari n'agakoresho kifashishwa n'aborozi bagaburira inkoko.

Inka zihagaze aho zororerwa bikaba bigaragara ko ari inka zitaweho neza, izi nka zikaba zihagaze mu kiraro ubona ko cyubakiye ndetse urabona ko ari inka zishishe, zishobora kuba zitanga umukamo.

Inka nyinshi z'amabara agiye atandukanye zikaba ziri ahantu mu ifamu, biragaragara ko ari ahantu hari ibyatsi byiza cyane ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Ni ahantu bigaragara ko hororerwa ihene zikaba ziri ahantu mu kiraro ubona ko hakikije, ni ihene bigaragara ko zitaweho neza ndetse inyuma y'urwo ruzitiro hakaba hari umugabo bisa nk'aho ari we worora zino hene.

Umusaza w'umworozi akaba yoroye inka nziza cyane, yafashe ibasi arimo aruhira inka ye bisa nk'aho ayifatiye kugira ngo imaremo amazi yari yayishyiriyemo, iri ahantu heza cyane, inyuma y'iyo nka haragaragara urutoki.

Ahantu bisa nk'aho ari mu kiraro ukaba ubona ko hororerwamo inka zigiye zitandukanye, iki kiraro kikaba gisakariye urabona ko rwose cyubatse neza mu buryo bwa kijyambere, hari kandi n'umuntu usa nk'aho arimo arazitunga intoki.

Inka ziri kumwe n'inyana zazo, zikaba ziri ahantu bisa nk'aho ari mu ifamu, ziri kurisha ibyatsi bihari bitohereye ndetse muri iyo famu hakaba harimo n'ibiti, bizana umwuka mwiza wo guhumeka.

Ni ihene ziri ahantu mu byatsi, bikaba bigaragara ko umworozi wazo yazijyanye kuziragira, ahantu yagiye kuziragira hakaba hateye ibiti byinshi ndetse urabona ko izi hene zitaweho neza cyane zirasa neza.

Ni inka nyinshi zikaba ziri mu ifamu aho ziragirwa, biragaragara ko ari inka zitaweho, ndetse ifamu zirimo hakaba harimo ibyatsi ndetse haragaragara n'ibiti byiza by'inganzamarumbo bitanga umuyaga.

Ikiraro ingurube yororerwamo bikaba bigaragara ko iki kiraro giteguye neza, hari aho iyi ngurube irira ndetse hagaragara ko hasi hashashe neza, ubworozi bw'ingurube ni bwiza kuko butuma umuntu abona amafaranga.

Ni imbuto zigiye zitandukanye ndetse z'amoko agiye atandukanye. Aho harimo ibigori ndetse na soya ndetse n'ibindi, igihe umuhinzi ashaka kujya guhinga iyo igihe kihinga cyageze, afata zo mbuto akagenda akazitera mu butaka.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, aho buri mbuto zigiye ziri mu gafuka kazo. Hari ibishyimbo, hakaba amashaza ndetse ahangaha umuhinzi iyo igihe cyihinga kigeze, araza agafata imbuto ashaka, akagenda agahinga.

Ni umugore w'umuhinzi akaba arimo a araika ibihingwa bye kuri shitingi, akaba afite ibigori yasaruye, aho yabivovoye yarangiza akabyanika kuri shitingi kugira ngo akazuba kabinyuremo bibashe kuma.

Ibigori byinshi cyane bidanduye ahantu kuri shitingi, hakaba harimo ibigori bimwe na bimwe bari batangiye kuvungura ariko ibyinshi biracyari ibigori bitavunguye, ubona umuhinzi yaje kubyanika kugira ngo bibashe kuma.

Ni umusaza akaba yicaye ku rubaraza rw'inzu ye, aho arimo aragerageza kuvovora ibigori abihambiranya kugira ngo abashe kubyanika mu bwanwanakiro. Uyu musaza biragaragara ko akuze cyane ariko akaba yitaye ku bihingwa bye.

Ni ibiganza by'umuntu utagaragara neza, akaba afashe mu mbuto ziri mu kintu kimeze nk'umufuka, arimo arareba izi mbuto ze niba zitarangirika kugira ngo abashe kuba yashyiramo umuti, azazihinge zimeze neza.

Ni ibiganza by'umuntu ariko utagaragara mu maso, akaba arimo arakora mu bigori yavunguye bisa nkaho uyu muntu bino bigori yabyanitse kugira ngo bibashe kuma, hanyuma abijyane ku cyuma abashe kwinywera agakoma.

Abahinzi bagiye batandukanye bo mu Rwanda, bafite uburyo bwinshi banikamo imyaka yabo, aha ngaha bakaba barafashe ibintu bimeze nk'aho ari supanete, barangiza bakabyubaka neza, ku buryo baramburaho imbuto zabo zikabasha kuma neza, aha hagaragara inzu ndetse hagaragara n'urutoki.

Abavuzi b'amatungo hirya no hino mu gihugu, ubugubu basigaye barahawe amahugurwa y'ukuntu bashobora kwita ku itungo rifite ikibazo, aho baza bakaribaga barangiza bakaripfuka rikaguma kubaho.

Ni abaganga b'amatungo aho baje mu kiraro kirimo amatungo, birasa nkaho umwe arimo arategura imiti kugira ngo bajye kuyitera itungo ryari rifite ikibazo, hari n'abandi bantu bari aho ngaho barimo barareba icyo gikorwa.

abaganga b'amatungo babiri aho baje kuvura inka, urabona ko bashoye akaboko mu nda y'amaganga y'iyi nka kugira ngo babashe kureba ikibazo yaba ifite bayivure.

Amacupa bigaragara ko yavanywemo imiti yifashishwa n'abavuzi b'amatungo, aho iyo itungo ryawe ryagize ikibazo, witabaza veterineri cyangwa se umuganga w'amatungo, akazana umuti akavura itungo ryawe.

Ni byiza ko mu gihe wabaze itungo mbere yuko utangira kurigurisha mu baturage, uhamagara umuvuzi w'amatungo akabanza agapima iryo tungo niba inyama zaryo zifite ubuziranenge.

Ni umuvuzi w'amatungo akaba ari ahantu mu kiraro ahororerwa inka, hari abandi bagabo baje kumufasha aho uyu muvuzi yaje kuvura ino nka, afite urushinge mu ntoki ze arimo aragerageza gutera ino bisa nk'aho arimo arayivura.

Ni abaganga ubona ko bambaye impuzankano zabo bambara iyo barimo barasuzuma ibizamini, bakaba bari ahantu ubona hateretse uducupa twinshi, bisa nkaho hari ibintu runaka barimo barakusanya, aba ngaba bameze nkaho ari abaganga bashinzwe kwita ku matungo afite ikibazo.

Ni abavuzi b'amatungo bahuriye ahantu bisa nk'aho baje kuvura inka iri mu kiraro. Umuvuzi umwe arimo imbere mu kiraro, naho abandi bakaba bafashe umurizo w'inka, uwo nguwo urimo imbere, akaba ari kugerageza gutera umuti iyo nka.

Ni ahantu hagaragara ko ari mu cyumba hakaba harimo umugore wambaye itabuririya y'umweru, muri icyo cyumba hakaba hapanzemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari utubido tw'arindwi tw'imyeru ndetse hari amajerekani, hakaba hari n'ibindi bintu inyuma abaveterineri cyangwa se abavuzi b'amatungo bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa zitonda cyane ndetse zikaba zimwe mu nyamaswa z'ishyamba, aha ngaha zikaba zari zaje mu cyuzi, aho zirimo zirinywera amazi kubera ko zari zagize inyota, haragaragara kandi ishyamba ry'inzitane.

Inzovu iri ahantu mu byatsi irikwigendera iruhande rwayo hakaba harimo ya ba mukerarugendo, aho barimo barafata amafoto ubu ngubu, akaba ari uburyo bwiza bwo mu gihugu cy'u Rwanda, aho ba mukerarugendo basura inyamaswa barangiza bagatanga amafaranga.

Ni inyamaswa bigaragara ko iri ahantu mu ishyamba iyi nyamaswa ikaba iri kumwe n'ibyana byayo, iyi nyamaswa akaba ari imwe mu nyamaswa z'inkazi cyane mu ishyamba ku buryo itajya ikunda ikintu kiyikiniraho.

Ni intare y'ingabo ikaba iri kumwe n'akana kayo, yiryamiye ahantu hari utwatsi dukeya, iyi ngiyi akaba ari imwe mu nyamaswa z'inkazi ndetse mu bigaragara iyi ngiyi ni yo mwami w'ishyamba.

Ni inyamaswa y'ishyamba ikaba izwi ku izina ry'ingwe, iyi nyamaswa ikaba iryamye ahantu bisa nk'aho ari ku ishami ry'igiti, iyi nyamaswa kandi ikaba izwiho nk'inyamaswa igira amahane.

Ni ibisiga bibiri bigaragara ko ari ibisiga byiza cyane, aho biri hasi mu byatsi birimo biragendagenda, ibi bisiga bikaba ari bimwe mu nyamaswa z'ishyamba, aho bino bisiga nabyo biri mu bwoko bw'ibiguruka.

Intare ikaba yiryamiye ahantu hameze naho ari mu ishyamba hari utwatsi ubona ko twumye, iyi ngiyi akaba ari intare y'ingore, intare ikaba ari imwe mu nyamaswa z'ishyamba, iyi ngiyi ikaba ari inyamaswa iteye ubwoba cyane.

Ni inyamaswa nyinshi zo mu ishyamba, zikaba zibereye mu byatsi aho ziri kugenda zumva akayaga ndetse zihiga, hakaba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, inyuma y'izi nyamaswa haragaragara ishyamba ry'inzitane, ndetse izi nyamaswa zisurwa na ba mukerarugendo.